Abakozi bakora muri serivisi z'itumanaho, bakaba bari mu kazi kabo, aba bakora muri uyu murimo babasha kwiteza imbere ikindi kandi bakaba babasha gutanga serivisi zitandukanye, zijyanye n'itumanaho ku baturarwanda.

Abakozi batanga serivisi z'itumanaho zirimo amafaranga ndetse n'amayinite ya telefoni banezezwa n'uko umurimo bakora ubasha kuba wabatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko babasha kubona amafaranga abafasha kwiteza imbere.

Ibigo bitanga serivisi z'itumanaho bizwi nka MTN bitanga amasumukadi ku batura Rwanda bityo kugira ngo babashe kubona nabo bakisanga muri izi serivisi z'itumanaho babashe gutera imbere.

Umukozi ukorana n'ikigo cy'itumanaho Airtel, akaba ari kwamamaza uburyo butandukanye bwo guhererekanya amafaranga hifashishijwe iki kigo, abaturarwanda bashishikarizwa kwitabira ibi bigo ndetse no gukorana na byo kugira ngo babashe kuba bakoroherwa mu itumanaho ndetse no guhanahana amafaranga.

Sosiyete zitandukanye z'itumanaho mu Rwanda zirimo Airtel ndetse na Tigo zifasha abaturarwanda kugira ngo babashe kuba babona amafaranga bifashishije aya masosiyete bityo kandi itumanaho na ryo rikaba rikemura ibibazo bitandukanye.

Umucuruzi ukorera ikigo cy'itumanaho cya MTN akaba ari mu butaka, hirya yayo hakaba hari amaduka acuruza ubwoko bw'ibicuruzwa bitandukanye, hakurya hakaba hari umuhanda wa kaburimbo, aho hari amagare ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye.

Inyubako zitanga serivisi za banki mu mirenge sako, ikaba iri mu mabara y'umuhondo isakaje amabati y'umutuku, munsi ku rubaraza hicaye umugabo kandi imbere hahagaze umubyeyi, hirya yabo hari ipikipiki.

Inyubako irimo ibikorwa remezo bitandukanye birimo ameza ndetse n'intebe hakaba harimo abantu bahuriye muri koperative ikora akawunga bakaba bari kuganira ku ngingo zitandukanye zishobora kuba zateza imbere umushinga wabo.

Ibirori byahuje abantu mu nzego zitandukanye ikindi kandi hakaba hahurijwe amabanki ndetse n'amakoperative kugira ngo bakangurire abanyarwanda gusobanukirwa akamaro ko kuguza ndetse no kubitsa amafaranga kugira ngo biteze imbere.

Ibigo by'amabanki ndetse n'amakoperative bikangurira abaturarwanda kubigana kugira ngo babashe kuba bagurizwa ikindi kandi baguze amafaranga bityo babashe kwiteza imbere.

Ibigo by'amabanki ndetse n'amakoperative atandukanye biganwa n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo babashe kuba babona amafaranga bityo biteze imbere, muri izi nyubako dusangamo ibikorwa remezo byiganjemo intebe ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abahinzi bakorera hamwe bakaba bari mu murima w'amasaka aho bari gukora imirimo itandukanye y'ubuhinzi ishobora kuba yabateza imbere bakabasha kubona amafaranga ashobora kubafasha mu gukemura ibibazo bitandukanye.

Umubyeyi uhagaze mu bishyimbo bya mushingiriro aho abakora ubuhinzi bw'ibishyimbo, banezezwa n'uko umurimo bakora wo guhinga ibishyimbo, ubasha kubafasha kubona ibishyimbo byo kurya, ikindi kandi bakabona n'amafaranga bafasha mu gukemura ibibazo bitandukanye.

Umuceri w'ubwoko butandukanye, abacuruza kandi n'abahaha umuceri, banezezwa n'uko kuba babona umuceri wujuje ubuziranenge ku isoko, babasha guhaha bityo bakarya indyo yuzuye.

Inyubako igaragaza aho abishyize hamwe bakorera imirimo itandukanye yiganjemo ubworozi. Ni byiza ko abantu basobanukirwa akamaro ko guhurira hamwe kugira ngo babashe kuba bakora imirimo igiye itandukanye bakoreye mu matsinda.

Utubari ducuruza ubwoko bw'inzoka zike zitandukanye, ziganjemo amabyeri ndetse na pirimusi, n'ibindi binyobwa bitandukanye bisembuye, aho abagana utu tubari, usanga banywa ubwoko bw'inzoga zitandukanye.

Inyubako zitanga serivisi z'ubukerarugendo zigira ibikorwaremezo bitandukanye byiganjemo intebe, ameza, utubati ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo abagana izi nyubako babashe kuba babona serivisi zinoze.

Ibigo bitanga serivisi zo gutanga ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, bacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo ibyo kurya ndetse n'ibyokunywa by'amoko atandukanye, bityo abagana ibi bigo bakabasha kubona ibyo bakeneye.

Inyubako itanga serivisi y'akabari ikaba irimo ibikoresho bitandukanye birimo intebe ndende abakiliriya bicaraho, ikindi kandi iyo nyubako ikaba irimo imitako igiye itandukanye ndetse n'ibicuruzwa byiganjemo inzoga ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umubyeyi uri mu iduka ricuruza ibitenge ndetse akaba acuruza n'ibindi bicuruzwa bitandukanye. Abakora umwuga w'ubucuruzi babasha kubona amafaranga bityo bakiteza imbere mu buzima bwabo.

Inyubako zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye aho hari ibicuruzwa byiganjemo ibyo kunywa ndetse n'ibindi bitandukanye abakora umwuga w'ubucuruzi banezwa nuko bashobora kubona amafaranga ashobora kubateza imbere.

Umuntu wicaye mu nyubako irimo ibicuruzwa by'ubwoko bugiye butandukanye, aho acuruza ibicuruzwa byiganjemo ibyo kurya ndetse n'amavuta y'ubwoko bugiye butandukanye kugira ngo abashe kuba yakiteza imbere.

Abantu bahagaze hafi y'imodoka, imbere yabo hari imifuka ipakiyemo ibintu bigiye bitandukanye, hirya y'imodoka hari ibiti ndetse n'inyubako zigiye zitandukanye.

Amaduka acuruza ubwoko bw'amakaye agiye atandukanye, yifashishwa kugira ngo abanyeshuri babashe kubona amakayi bandikaho, ikindi kandi aya maduka abasha kubona amafaranga bityo akabasha kunguka bityo agakomeza umwuga wo gucuruza amakaye.

Umubyeyi uri muri botike akaba ari gucuruza ibintu by'amoko agiye atandukanye, ibiri mu mifuka ndetse n'ibiri mu dukarito byiganjemo amavuta ndetse n'utundi tuntu dutandukanye.

Abagore babiri ndetse bari kumwe n'umugabo, bakaba bari mu iduka ry'imyambaro igiye itandukanye ikindi kandi bakaba bafite imashini idoda imbere yabo, bakaba bari gukora umwuga w'ubudozi aho babasha kubona ibyo bakenera mu buzima bwabo birimo amafaranga.

Botike irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo amavuta yo kurya ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye. Abakora ubucuruzi banezezwa n'uko babasha kubona amafaranga ikindi kandi bakabasha kubona ibyo babasha kuba byabatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu biganjemo abakobwa ndetse n'abagabo bateze amaboko bari kuririmba, hafi y;aho hakaba hari ingoma bari kwifashisha kugira ngo babashe kuba babona injyana.

Abayobozi bayobora amadini n'amatorero batanga inama ndetse n'amahugurwa ku bayoboke b'idini kugira ngo babashe kuba bakungurana ibitekerezo bityo babashe kuba bakiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye.

Abantu bari hafi y'inyubako y'urusengero bakaba bari bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ay'umweru, bakaba bari kumwe n'inzego z'umutekano bityo bakaba bari kuganira ku ngingo zitandukanye.

Abayobozi b'amadini ndetse n'amatorero bakangurira abayoboke babo kwirinda impanuka zitandukanye aho bashyiraho ubukangurambaga bubigisha ndetse bukabasobanurira uburyo bwo gukoresha umuhanda neza, urugero twavuga nka gahunda ya Gerayo Amahoro.

Inyubako nini y'urusengero yubatse ku buryo bwagutse, ifite amadirishya ane n'umuryango munini, ikaba ifite amabara y'umuhondo, imbere yayo hakaba hari ikibuga cyisanzuye, kandi hakaba imbere y'inyubako hahagaze abantu.

Abantu benshi bari mu rusengero bakaba bari kuganirizwa kandi bakaba bari gusenga, muri urwo rusengero hakaba harimo ibikorwaremezo bitandukanye birimo intebe, ameza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abantu bicaye mu rusengero bakaba bari kwiga ijambo ry'Imana, inyubako nk'izi zitangirwamo serivisi zo ku rusengero zikaba zihuriza hamwe abantu benshi baje gusenga bityo bakaba bakumvira hamwe ijambo ry'Imana.

Abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyambarire igiye itandukanye, abagabo bambaye imyenda y'igikara naho abadamu bambaye imyenda y'umutuku bafite Bibiliya.

Abantu bari mu nzu ifite irangi ry'umuhondo, imbere yabo hakaba hahagaze umuntu, wambaye umwambaro utukura ufite telefone, ikindi kandi abo bantu bakaba biganjemo abamama, ndetse n'abasore babiri, umwe ubicaye hagati undi akaba abahagaze inyuma.

Inyubako y'urusengero yagutse irimo intebe zigezweho, ikindi kandi iyi nyubako ikaba iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, abagana urusengero kugira ngo babashe kuba bakwishimira kuba bateraniye ahantu heza hafite isuku.

Ubwogero buzwi nka pisine bukaba bwubakiye urugo, ikindi kandi hafi yabwo hari inyubako ishobora gufasha abantu kugira ngo babashe kuba bakugama izuba cyangwa se imvura, hirya y'aho hakaba hari ibiti birebire.

Ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo, bigira ibikorwaremezo bitandukanye, byiganjemo ubwogero ndetse n'aho bakorera imikino y'imyidagaduro itandukanye kugira ngo abagana ibyo bigo babashe guhabwa serivisi zibanogeye.

Inyubako itanga serivisi z'ubukerarugendo, ikaba irimo televiziyo, intebe zo kwicaraho, ameza ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abantu bagana kuri izi nyubako.

Inyubako zitanga serivisi z'ubukerarugendo zikaba zifite ibikorwaremezo bitandukanye birimo intebe, ameza, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bifasha ababigana kugira ngo babashe kuba bahabwa serivisi zibanogeye.

Inyubako zitanga serivisi z'ubukerarugendo, zifite ibikorwaremezo bitandukanye, inyubako iri mu mabara y'umweru, ikaba ifite ubusitani imbere yayo, ikindi kandi hafi yayo imbere, hakaba hari umuhanda wa kaburimbo.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubukerarugendo ikaba iri mu mabara y'umuhondo, imbere yayo hakaba hari ubusitani ndetse n'ibiti bitandukanye, izi nyubako ziganwa n'abantu batandukanye kugira ngo bashake serivisi zishobora kuba zabafasha.

Inyubako zitanga serivisi z'ubukerarugendo, ziba zifite ibikoresho bitandukanye, birimo ameza ndetse n'ibindi bitandukanye, bifasha abagana ibyo bigo kugira ngo babashe kuba bahabwa serivisi nziza, zibanogeye.

Inyubako yagutse itangirwamo serivisi z'ubukerarugendo aho iyo nyubako ifite amatara ikindi kandi ikaba ifite inzugi zigezweho, abagana izi nyubako banezezwa no kubona bahabwa serivisi ntamakemwa.

Inyubako itanga serivisi z'ubukerarugendo mu nyubako hakaba hari icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye birimo ameza, utubati ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo bicuruza ubwoko bw'ibinyobwa ndetse n'ibiribwa bitandukanye, hagaragara ameza ariho ubwoko bw'ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibinyobwa byiganjemo fanta.

Ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo bigira ibikoresho bitandukanye, birimo ameza, ndetse n'intebe, bityo abagana ibyo bigo, bakabasha kuba bahabwa serivisi nziza kugira ngo babashe kuba bakishima.

Ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo, bigira ibikorwaremezo bitandukanye, birimo ubwogero ndetse n'ubusitani, bifasha abagana ibyo bigo kugira ngo babashe kuba bakidagadura, bityo banezezwe na serivisi bahabwa.

Inyubako ifite amabara atandukanye arimo ay'umuhondo hakaba harimo ameza magari yagutse ateretseho amacupa ikindi kandi iruhande rw'ameza hakaba hari intebe ziyangurutse nyinshi ziri mu mabara y'umutuku.

Aho bacuruza ubwoko bw'ibicuruzwa bitandukanye birimo umuceri, amavuta yo kurya ndetse n'ibindi bitandukanye, abakora ubu bucuruzi banezezwa n'uko babasha kubona amafaranga abafasha gukemura ibibazo bitandukanye mu buzima bwa buri munsi.

Isoko bacururizamo ubwoko bw'ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo ibyo kurya ndetse n'imyambaro, aho abantu bahurira kugira babashe kuba bagurisha, abandi bagura ibyo bakeneye, amasoko nk'ayo afasha abantu mu kwiteza imbere.

Isoko ricururizwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo imboga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, birimo ibikoresho byo mu rugo, aho abaturage bahurira kugira ngo babashe kuba bagura kandi bagurishe ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Uduhanda tw'utugenderano, tukaba dufasha abantu kugera ku nyubako zitangirwamo serivisi zitandukanye. Utuyira nk'utungutu, tworoshya ingendo zitandukanye, aho abadukoresha babasha kugera aho bajya amahoro.

Aho bacururiza ubwoko bw'ibikoresho bitandukanye byiganjemo amasuka, ibikombe, amasahane, ibyuma ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo bitandukanye, abakora ubu bucuruzi banezezwa n'uko baje kwiteza imbere.

Ihene ziri mu kiziriko zikaba bari kuzikurura zihagaze mu murima uriho ibyatsi, abakora ubworozi bw'ihene banezezwa n'uko babasha kubona amafaranga abatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu babiri bari mu gasoko gatoya kari ahantu hari ibyatsi, ndetse n'imbuga y'igitaka bakaba bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibikapu imyambaro yo kwambara ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umwana uri gucuruza inkweto yicaye imbere yazo, hirya ye hahagaze umugabo wambaye ingofero hari n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bigiye biri mu mifuka no mu mashitingi, hafi y'aho hari igare ripakiye umufuka, hirya yabo hari inyubako zigiye zitandukanye.

Inyubako zikorerwamo serivisi zo gucuruza ibiryo, zigira ibikoresho bitandukanye bifasha abakiriya bagana ibyo bigo kugira babashe kuba bahabwa serivisi nziza. Bimwe muri ibyo bikoresho twavuga ameza, intebe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inyubako itanga serivisi z'ubukerarugendo irimo ibikoresho bitandukanye bifasha kugira ngo abagana iyi nyubako babashe kuba bahabwa serivisi nziza bimwe muri ibyo bikoresho twavuga ameza intebe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Isahane iriho ubwoko bw'ibiryo bitandukanye, byiganjemo imyumbati ndetse n'andi moko y'ibyo kurya atandukanye, aho ibigo bitanga serivisi zo kugaburira abantu, babyifashisha kugira ngo babashe kuba babigeza ku bakiriya babikeneye.

Inyubako zitanga serivisi z'ubukerarugendo hakaba harimo ubwoko bw'ibikorwaremezo bitandukanye byiganjemo ameza, intebe, utubati, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bifasha ababigana kugira ngo babashe kubona serivisi nziza.

Umuntu wicaye ku ipikipiki iriho imizigo iri mu mifuka ndetse n'ibitoki bibiri. Imbere ye mu muhanda hakaba hari kugenda abantu ndetse n'ibinyabiziga birimo imodoka, hakurya y'umuhanda hakaba hari inyubako zigiye zitandukanye.

Umuntu wicaye ku ipikipiki ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hirya y'umuhanda haparitse imodoka ikindi kandi hari inyubako, hirya y'inyubako hakaba hari ubwoko bw'ibiti birebire ndetse n'umuyoboro w'amashanyarazi hejuru y'ibyo biti.

Umuntu uri kugenda ku ipikipiki mu muhanda wa kaburimbo, inyuma ye hakaba hari imodoka, hepfo y'umuhanda hakaba hari inyubako ziri mu mabara y'umweru ndetse n'imiyoboro y'amashanyarazi.

Umuntu wicaye ku ipikipiki, inyuma ku ipikipiki hariho imizigo ibiri iri mu mifuka ndetse n'ibitoki bibiri bihambiranye n'iyo mizigo, imbere y'ipikipiki hari umuntu uri gutera intambwe ndetse n'imodoka y'umweru.

Abantu bicaye ku ipikipiki bakaba bari kugenda ku muhanda mu muhanda wa kaburimbo, hirya y'umuhanda hakaba hari inyubako zitandukanye, ikindi kandi hakaba hari n'umuyoboro w'amashanyarazi.

Umuntu utwaye ipikipiki akaba ari mu muhanda w'amabuye. Abatwara ibinyabiziga cyane cyane abatwara amapikipiki, banezezwa nuko umurimo bakora ubasha kubatunga, kuko babasha kubona amafaranga abatunga, ndetse n'imiryango yabo.

Abatwara amapikipiki, bakaba bari ahantu inyuma y'inyubako, bakaba bari kuganira ku ngingo zitandukanye. Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu bifashishije amapikipiki, banezezwa n'uko umwuga bakora ubasha kubatunga mu buzima bwabo.